Inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite n'amatafari ahiye, ikaba ifite imiryango myiza cyane y'ubururu, aho higiramo abanyeshuri, biga mu mashuri y'inshuke.

Ni ku kigo cy'amashuri aho hari inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari ishuri ryigirwamo n'abana bakiri batoya cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ku mashuri yabo hakunze kuba hashushanyije ibishushanyo by'inka, byererekana ko abo bana baba bagomba kumenya amoko agiye atandukanye y'inyamaswa ndetse n'amabara yazo.

Agakapu gashushanyijeho igipupe cy'imbwa aho kano gakapu gakunze kuba ari ak'ingenzi cyane ndetse bagaha abana biga mu mashuri y'inshuke kubera ko tuno tunyamaswa tuba dushushanyijeho tubashimisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite inzugi z'icyatsi, hari umugore ufite umwana imbere ye ari kumuha umunyenga ku byicundo, bigaragara ko uyu mugore ari umwarimu umwana akaba yiga mu mashuri y'inshuke.

Umwana wambaye imyambaro y'ishuri, wiga mu mashuri y'inshuke. Akaba ari ahantu mu muhanda, ari kugenda yandika inyuguti zigiye zitandukanye n'ingombajwi n'inyajwi, baba bari ku ishuri.

Ibimera by'ibishyimbo ni zimwe mu mbuto ziba ziteye amayobera kandi zinatangaje iyo ziri kumera, rero bakunze kwifashisha ibimera by'ibishyimbo bari kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, aho iba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, haba harimo ameza ndetse n'intebe biri mu mabara atandukanye ku buryo abanyeshuri babasha kwicaraho bakaganira mu matsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'ishuri yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho hakunze kuba hashushanyijeho inyamaswa nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aha rero bashushanyijeho inzovu.

Hariho udushushanyo tuba turi mu mabara agiye atandukanye y'umutuku, umweru, icyatsi kijimye, ndetse n'icyatsi kibisi, bifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kumenya kubara ndetse n'amabara atandukanye.

Agakapu kieza cyane k'umutuku, bigaragara ko gakoreshwa n'umunyeshuri wiga mu mashuri y'inshuke. Kakaba gatwarwamo amakaye ndetse n'amakaramu ye, yifashisha ari kwiga kugira ngo abashe gutsinda.

Udukapu tubiri turi mu mabara agiye atandukanye tukaba ari udukapu twiza cyane dukunze guhekwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakunda udukapu turimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara kuko tuba dushimishije.

Mu mashuri y'inshuke haba harimo ibishushanyo bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe kumenya amabara agiye atandukanye ndetse n'amagambo agiye atandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, baba bafite ibitabo byinshi bifashisha bari kwiga. Hari ibitabo biba bishushanyijeho amashusho y'abantu b'abahinzi bambaye imyambaro y'amabara agiye atandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye biri ahantu mu cyumba, biragaragara ko ari mu mashuri abanza kuko harimo intebe zigezweho abanyeshuri bicaraho ndetse bagateranira ku meza amwe bakaganira mu matsinda.

Agasanduku kari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bashushanya bimwe mu bishushanyo biba biri mu isomo ry'imibare, haba harimo irati, agacaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti.

Umugabo w'umubyeyi uri kumwe n'abana be, akaba ari kugenda ababwira abaciye umugani wa Maguru ya Sagwaya n'insibika, ababwira ukuntu Maguru ya Sagwaya yari azi kwiruka agasiga imvura n'umuyaga.

Ibikoresho bigiye bitandukanye by'ibishushanyo bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumenya amoko agiye atandukanye y'ibikoresho, ndetse n'amagambo meza yo gukoresha.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri abanza aho yubakishije amatafari ahiye, ikingishije inzubyi zisa ubururu, aho mo imbere hari n'intebe zigiye zitandukanye abanyeshuri bigiraho.

Inyubako nziza cyane zo ku kigo cy'amashuri abanza, zikaba zishamo tapi nziza cyane, akaba ari ahantu abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigira kugira ngo barebe ko bajijuka bakamenya ubwenge.

Abantu babiri bahagaze bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bafite ibitabo mu ntoki umuhungu afite icy'umutuku, umukobwa icy'ubururu, bakaba bari kuganira mu rurimi rw'igifaransa.

Imyenda igiye itandukanye iri mu mabara menshi cyane iyi ngiyi ikaba ari umupira w'imbere umupira w'imbeho ndetse n'ingofero, ibi bakaba bakunda kubyifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza amoko y'amabara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho isakaje amabati meza cyane, ifite imiryango igiye is'umukara ndetse itaye n'irangi ry'ubururu imbere, ikaba ari inyubako y'amashuri abanza.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho iyi nyubako igi isakaye neza cyane, ifite amatafari ahiye ayubatse ndetse n'imiryango y'amabara atandukanye y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako nziza yubakishije amatafari ayiye, ikaba imeze neza cyane, ari ikigo cy'amashuri abanza. Gifite ibirahure bibonerana.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu mashuri abanza, biba ari byiza cyane kuko bitoza abana kujijuka ndetse no kumenya ubwenge. Hari ibikoresho by'imibare biba biriho ibimenyetso bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako z'amashuri. Zisakaje amabati y'ubururu ndetse zikaba zifite ubusitani bwiza cyane, buteyemo icyuma kimanitseho ibendera ry'u Rwanda, riri mu mabara atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye biragaragara ko ari mu kigo cy'amashuri abanza, aho hari ubusitani bwiza cyane bugezweho buteyemo Ibendera ry'u Rwanda.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mwuga w'ubwarimu, aho abarimu babyifashisha bigisha abana biga mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumenya ururimi runaka ndetse n'amoko agiye atandukanye y'ibikoresho.

abantu benshi cyane bari mu mabara agiye atandukanye bakikije umubumbe w'Isi, bigaragaza ko Isi iri mu biganza byacu, ubu ni bwo buryo bakoresha bigisha abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikunze guhabwa abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho biba bifite amabara agiye atandukanye ay'ubururu, umutuku ndetse n'imibare iranga nimero kugira ngo bamenye kubara.

Mu mashuri abanza abanyeshuri biga isomo ry'imibare baba bategetswe kugira agasanduku kabugenewe, kaba karimo ibikoresho bibafasha kwiga imibare aho muri ibyo bikoresho harimo amarati, uducaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, akaba ari inyubako zifite amatafari ahiye ndetse n'amarangi y'umweru n'icyatsi ku bikuta, inzugi na zo zirasa icyatsi, akaba ari ikigo cy'amashuri abanza.

Umugore wambaye imyambaro y'amakanzu y'umukara akaba yagiye mu kigo cy'amashuri abanza aho ari gukina n'abanyeshuri umupira, imbere yabo hari ubusitani bwiza burimo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bahagaze ahantu imbere y'amashuri bambaye impuzankano z'ishuri, imbere yabo hari umugabo ufite akajiri ari kugenda abagezaho ijambo na bo bamukurikiye.

Abanyeshuri bicaye hamwe mu ishuri, bakaba bicaye ku ntebe ari batatu batatu, bagiye bashyiramo metero. Bambaye impuzankano zo mu mabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba bashyizemo metero bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano, bari kugenda mu muhanda bari mu gikorwa cyo kwibuka. Aho bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo Nyagatare ikigo cy'amashuri, kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri.

Iterambere rikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho ubu ngubu abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, basigaye biga gukoresha za mudasobwa, bagasoza kwiga hari ubumenyi bafiteho, atari inkandagirabitabo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bakaba bagiye ku bukarabiro buzwi nka kandagira ukarabe, aho bari koga intoki zabo. Ni mu rwego rwo kugira isuku ndetse no kwirinda indwara zandura z'ibyorezo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zisakajwe amabati. Zifite ubusitani bwiza cyane, buteye amomoko agiye atandukanye y'indabyo. Bifite ndetse n'akayira gashashemo amapave, kagana kuri izo nyubako.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe mu cyumba k'ishuri bakaba bari kwifotoza. Higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye y'umweru kaki ndetse n'icyatsi, barishimye cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteraniyemo abantu benshi cyane bagiye bitandukanye, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari kwiga ubumenyingiro bwo gukanika umuriro w'amashanyarazi.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo umuyobozi ndetse n'abandi bantu aho bafite utujire mu ntoki bakaba bari kugenda mu nyubako nini cyane ya sale aho inyuma yabo ari abandi bambaye utujire.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abanyeshuri bigaragara ko bari mu ishuri bari kwiga ibijyanye n'itumanaho ndetse n'ibintu by'ikoranabuhanga higanjemo abasore bambaye impuzankano.

Ishuri riteraniyemo abanyeshuri benshi bakaba bagiye bicaye mu buryo bw'amatsinda, imbere ku kibaho hakaba hahagaze umukobwa mwiza w'inzobe afite urupapuro ari kugenda abasomerara umuvugo ababwira igihangano ke.

Abanyeshuri baba barize kaminuza n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye, baba bafite ubuhanga buhanitse aho babasha gukora ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubugeni, ku buryo kubireba usanga bibereye ijisho kandi ntawapfa kubyigana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite amabati y'umutuku ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, iyi nyubako ishashemo amapave mu mbuga ndetse hakaba hari kugendamo abantu benshi bagiye batandukanye.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, baba bafite ubuhanga buhanitse, aho babasha gukora ibyapa bigiye bitandukanye, bakabimanika ku bikuta, bikoranye ubuhanga buhanitse.

Umuntu uri kugenda mu muhanda ushashemo amapave, akaba afite imisatsi ya menshi akaba ari uw'igitsina gore, yambaye agashati k'umweru imbere ye hari ibizu byinshi bigiye bitandukanye ndetse umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Ahantu mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, harimo umuntu utagaragara igice cyo hejuru ariko bigaragara ko igice cyo hasi kigaragara neza, yambaye inkweto za sandari aho ari mu nzu icururizwamo ibikoresho bya gakondo.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro harimo n'abiga ubugeni baba bazi gushushanya aho ibikuta byose ari bo bagenda bakabishushanyaho amagambo agiye atandukanye ndetse n'amashusho y'abantu bakishyurwa amafaranga.

Umugabo uri mu nzu irimo mudasobwa, akaba ari kuyikoresha. Yambaye agapira gasa umukara, akaba ari umwarimu wigisha ibijyanye na mudasobwa ku ishuri kugira ngo abanyeshuri bajijuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru, ikaba izitije ibyuma biteye amarangi asa n'ivu, ifite amagarajya ndetse imbuga yayo ishashemo amapave.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yubakishije amatafari ahiye ikaba ikingishije inzugi z'ibyuma zisa n'ivu, iteye amarangi y'umweru ifite ibirahure bitabonerana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ikingishijwe inzugi zikozwe mu byuma, aho zisize amarangi agiye atandukanye asa n'ivu, umuryango urafunguye bigaragara ko iyi nyubako itangirwamo serivisi.

Igishushanyo k'ikibumbano cy'umuntu uryamye ahantu yagize ikibazo k'ikomereka ariko kikaba cyarabumbwe n'abanyeshuri baba barize imyuga n'ubumenyingiro kuko baba ari abahanga cyane mu gukora ibintu by'ibishushanyo nk'ibi ngibi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere bw'amagorofa, aho iteye amabara y'umweru ku bikuta, ikaba ifite imbuga ishashemo amapave ndetse kandi ikaba ari inyubako ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare.

Agasekuro basekuriramo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda. Ziganjemo amarozi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako ifite urugi rukinze neza rufite ibirahure bibonerana ndetse akaba ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu cyumba kinini, bakaba ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze.

Ibirori bisoza amashuri ya kaminuza haba harimo abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye baba bambaye aya makanzu meza ndetse n'ingofero bishimye bishimira kuba basoje amashuri ya kaminuza.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, abicaye bafite mudasobwa imbere yabo bari kurebamo ndetse inyuma hari abandi babiri bahagararanye bari kurebana b'igitsina gore.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama, harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bicaye muri sale nini cyane aho harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Igishushanyo cy'umuntu w'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko yayahinnye, akaba afite n'imisatsi ya menshi bikaba bigaragara ko uyu nguyu yashushanyijwe n'abanyeshuri bize imyuga n'ubumenyingiro.